Ishuri, ishuri ry'abana batoya bari munsi y'imyaka icumi. Bicaye ku ntebe zigizwe n'amabara y'icyatsi umuhondo n'ubururu. Na bo bambaye uniforme zifite amabara y'ubururu amashati. Imbere yabo hari umwarimu ndetse n'urubaho rw'icyatsi.

Abana batoya cyane bicaye hanze ahantu kuva akazuba, bigaragara ko biga mu mashuri y'inshuke, bari kumwe n'umwarimu wabo, wambaye umwenda umuranga.

Abana bato cyane bigaragara ko biga mu ishuri ry'incuke bari mu murima uri hafi y'ishuri ryabo. Aya mashuri yabo asakajwe amabati y'ubururu ndetse afite inzugi z'ubururu n'amadirishya. Ikindi kandi aba bana bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye umwenda umuranga.

Abana bato cyane bicaye ku mukeka bakuyemo inkweto, bazishyira imbere yabo. Bari kunywa igikoma ndetse umuntu uri kubagaburira igakoma ni umubyeyi mukuru. Bigaragare ko arii irerero rirererwamo abana bakiri batoya. Ikindi kandi uyu mubyeyi ari kubitaho areba neza ko bari kunywa igikoma.

Abana bato cyane bari munsi y'imyaka icumi bigaragara ko biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, bicaye hamwe harimo abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bicaye ku meza, yasizwe amarangi atandukanye, harimo: umutuku, umuhondo, ubururu ndetse n'icyatsi, abana bafite ibyo bari kureba, ndetse ishuri barimo rifite ibikuta bisizwe amarangi y'umuhondo.

Umubyeyi witeze igitambaro cy'umukara mu mutwe, wambaye n'agapira k'icyatsi ufite ibibabi mu ntoki, ari n'utwana duto cyane turi munsi y'imyaka itanu, ahantu bari hakikijwe n'indabo nziza cyane ndetse n'igiti cya voka, hari kandi amazu asakajwe amategura ndetse afite inzugi z'imbaho.

Abanyeshuri bato cyane bari munsi y'imyaka itanu biga mu mashuri y'inshuke bari kumwe n'abarimu babiri ndetse bicaye mu busitani ku mukeka. Hafi yaho hari inzu isakajwe amabati ndetse yubakishijwe rukarakara. Hari kandi imirima ihinzwemo ibijumba, ibirayi ndetse n'ibitoki.

Abana bato cyane bari munsi y'imyaka itanu, bicaye hamwe bari gusangira. Hagati yabo hari undi mwana muto uri munsi y'imyaka ibiri uri gukambakamba, hagati yabo kandi hari umubyeyi bigaragara ko ari we wagaburiye ibi biryo, ndetse wabibatekeye.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana bato cyane bari munsi y'imyaka irindwi bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye umwenda umuranga, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse imbere hari urubaho rw'umukara rumanitseho impapuro zishushanyijweho inyamaswa zigiye zitandukanye.

Abana bato cyane b'incuke bari mu ishuri rifite inkuta zisizwe irangi ry'umuhondo imbere yabo hari urubaho rw'umukara ndetse bicaranye n'umwarimu wabo wambaye umwenda wanditsweho ituze. Bicaye ku mikeka, inyuma yabo hari umukobwa washyize akaboko inyuma ufite ibyo ari kubigisha.

Abanyeshuri bato cyane biga mu mashuri abanza cyangwa se ay'inshuke, bambaye impuzakano zisa, baritonze cyane, bicaye ku meza asize irange ry'umuhondo ndetse n'intebe zisizwe amarangi y'umutuku, ubururu n'icyatsi, imbere yabo hari urubaho rw'umukara, ndetse hari n'ibikuta bisizwe amarangi y'umuhondo.

Abana batatu, babiri bahagaze ku gikarabiro undi yicaye hejuru y'igikarabiro. Gusa iki gikarabiro ntabwo kigikora imigezi irafunze. Hirya yaho hari inzu ifite inzugi z'umutu n'amabati y'umutuku, ndetse inyuma y'iyi nzu hahinzwe urutoki.

Abana bato cyane bigaragara ko bari munsi y'imyaka itanu, bicaye hasi ku mukeka, bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye umwenda ubaranga, iri shuri barimo risizwe amarangi y'umuhondo ndetse imbere hari urubaho rw'umukara rwanditsweho n'ingwa y'umweru.

Abana biga mu mashuri abanza bari munsi y'imyaka icumi bari gukina, ntabwo bari mu ishuri. Bari inyuma y'ishuri, ryubakishijwe amategura ahiye, rifite inzozi z'ubumwe ndetse risakajwe amabati. Inyuma yabo hari icyonda bigaragara ko imvura iguye vuba.

Abana bato cyane bari munsi y'imyaka icumi biga mu amashuri abanza bicaye mu ntebe zikozwe mu mbaho bafite ibitabo ubona ko bari mu itsinda bari kwishyira hamwe bamwe .Umwe muribo baryamye ku nte kandi iyi nzu barimo yubakishijejwe amatafari ahiye.

Ameza ariho ibikoresho bibiri bikoreshwa mu isomo ry'imibare iyo bari gupima imfuruka za mpande eshatu, ikindi kandi hari isaha y'umweru ndetse hari n'intebe hafi yaho, ikindi kandi iyi saha igizwe n'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'umukara.

Icyumba cy'ishuri kigirwamo n'abana b'amashuri abanza cyangwa se abana mu mashuri yisumbuye. Kirimo intebe zikozwe mu mbaho ndetse hari n'indi ntebe ikozwe mu byuma. Imwe muri izi ntebe zikozwe n'imbaho, ziteretseho igikapu cy'umukara. Ikindi kandi iri shuri ririmo imbaho ndetse mo mu imbere mu ntebe, habitswemo amakaye y'abanyeshuri.

Inzu y'icyubma gito cyane irimo akabati karimo ibitabo, ingwa ndetse n'imyenda abarimu bambara ibaranga, iyi nzu itewe amarangi y'umuhondo ndetse ku rukuta hamanitsweho impapuro ziriho ingengabihe y'ishuri, hejuru yaho kandi hari parafo isa n'ubururu ndetse n'ibiti.

Mu kigo cy'ishuri bigaragara ko cyigamo abana biga mu mashuri yisumbuye, bigaragara nk'aho ari umunsi wo gusurwa, ndetse hano hari aho guhagarika imodoka; hari kandi amashuri asakajwe amabati, ndetse asize amarangi y'umuhondo, hari kandi ubusitani burimo ibiti n'indabo.

Abana batatu bari kugenda mu muhanda w'igitaka, ubona ko berekeza ku ishuri riri hafi yaho ry'amashuri abanza n'ayisumbuye, rikikijwe n'ibiti birebire, aya mashuri hariho kirazira ziranga abanyeshuri biga hano ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, asakajwe amabati y'ubururu.

Abana bato cyane bari mu ishuri ririmo intebe zo mu mbaho, bambaye imyenda isa amashati y'ubururu ndetse n'amakabutura y'umukara, hari uhetse agakapu karimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara, harimo urubaho rw'icyatsi, iri shuri ritewe irangi ry'umuhondo.

Abana bato bambaye impuzankano zabo z'ishuri, bagiye kwiga cyangwa se bavuyeyo. Bigaragara ko aba bana bari munsi y'imyaka icumi.

Umwarimu ufite ibisuko w'umukobwa ari kumwe n'abana bato cyane bafite kamudasobwa gato, harimo amabara y'umweru ndetse n'icyacyi. Bari mu ishuri, ririmo intebe z'imbaho ndetse hariho ibikapu by'umukara, hirya yaho hari urubaho rw'umukara, kandi iyi nzu barimo yubakishijwe amatafari ahiye.

Icyapa kiriho ifoto nziza cyane iriho umugabo n'umugore umugore afite urubuto mu kiganza, imbere ye hari igiti kirimo inzoka, ndetse ubu busitani barimo harimo umugezi utemba cyane, iki cyapa kimanitse ku gikuta cyubakishijwe amatafari y'umutuku.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri y'amashati y'ubururu, umwe muri bo yamukoreye ibase y'ubururu bari kugana mu nyubako bigaragara ko ari ubwogero, aba bana ni bato bari munsi y'imyaka icumi, byumvikane ko biga mu mashuri abanza.

Ishuri rizitijwe senyenge ririmo abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayasumbuye, amashuri asakajwe amabati, afite amadirishya y'imihondo ndetse n'inzugi z'umuhondo kandi yubakishijwe amatafari ahiye, hanze y'aho hari ubusitani burimo uturabyo twiza.

Abana b'abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa bari mu kigero cy'imyaka ingana biga mu mashuri abanza, bari mu masaha y'akaruhuko aho bari gukina mu kibuga kitarimo ubwatsi ariko gikikijwe n'uturabo twiza cyane, hepfo hari amashuri asakajwe amategura ndetse afite inzugi z'umukara bigiramo.

Umwarimu w'umugore n'umugabo bari kwigishe abana bato cyane biga mu mashuri abanza n'ay'incuke. Bari hamwe, bari gukina, bari mu kiruhuko. Bari ku nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse mu ndorerwamo y'iyi nyubako, bigaragara ko imbere yaho hari indi nzu zifite amabati y'umutuku. Ndetse bari mu busitani burimo uturabyo twiza.

Abana bato cyane bari munsi y'imyaka icumi byumvikana ko biga mu mashuri abanza, barimo abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda y'ubururu, bicaye mu ishuri ndetse ku ntebe zikozwe mu mbaho, iri shuri ryubatswe n'amatafari ahiye, ndetse hafi y'aho hari utujerekani bigaragara ko baje bitwaje amazi yo gukoresha isuku.

Icyumba gito cyane gifite amarangi y'umuhondo, kirimo intebe y'umukara ndetse kirimo ameza asasheho ibitambaro by'ubururu ndetse n'icyatsi, harimo kandi ibitabo ndetse n'umuti wica udukoko two mu ntoki, hari kandi mudasobwa.

Aha hari ameza ariho ibikoresho byifashishwa mu isomo ry'imibare, hari kandi isaaha, bigaragara ko ari mu ishuri.

Imifuka ikoreshwa nk'ibibaho bikoreshwa wigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza, imanitse ku gikuta cyubakishijwe amatafari y'umutu, ikindi kandi iyi mifuka yanditsweho ibintu byanditswe na mwarimu yigisha abanyeshuri, iyi mifuka igizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bambaye imyenda iranga ishuri bigaho, isa n'ubururu. Bari ahantu hari ubwatsi. Ariko kandi hari ikibuga kitarimo ubwatsi. Hafi yaho hari amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, asakaje amategura, ndetse akikijwe n'ibiti birebire cyane.

Abana bato bari munsi y'imyaka icumi byumvikana ko biga mu mashuri abanza, barimo abakobwa n'abahungu bari mu gihe cy'akaruhuko kuko batari mu ishuri bakaba bari hanze bari gukina. Bari gukinira mu kibuga hafi yaho hari utwatsi duto cyane bigaragara ko bakiniyemo ntitumere neza ndetse hafi yaho hari urukuta rw'ubakishijwe amatafari ahiye.

Ameza akozwe mu mbaho ariko udukoresho twinshi turimo ibimenyetso bakoreshwa bigisha abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, harimo udupapuro twanditseho gatanu, umunani, zeru ikimenyetso cyo kugabanya icyo guteranya ndetse n'utundi dukoresho bakoresha kugira ngo abana basobanukirwe neza ibyo bari kwigisha.

Agapira ka karere kabanzwe mu mashashi y'umutuku kari hasi, gakunze gukoreshwa n'abana b'abahungu iyo bari gukina umupira w'amaguru. Aka gapira kandi gafasha abandi bana, bari gukina guterana agapira gukina.

Abana bato bari mu mashuri abanza bafite mudasobwa, bari kwigiramo isomo ry'ikoranabuhanga, bari mu ishuri ryubakishijwe amatafari ahiye, kandi bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, harimo kandi ibijerekani by'umuhondo.

Abana bato baga mu mashuri abanza bari mu ishuri, imbere yabo hari urubaho rw'umukara ndetse ibikuta ry'ishuri barimo bisizwe amarangi y'umuhondo, bicaye ku ntebe zikazwe mu mbaho ndetse hari akagare bigaragara ko bigana n'umwana ufite ubumuga.

Urukuta rumanitseho impapuro, ebyiri urw'umweru ndetse n'urw'umuhondo. Uru rukuta rutewe irangi ry'umweru kandi bigaragara ko hari amabwiriza agenga aha hantu, hamanitswe izo mpapuro cyangwa se agenga ibikorwa biberamo.

Abana bigaragara ko biga amashuri abanza, bari mu masaha y'ikiruhuko, bambaye impuzankano zisa ndetse amashuri yabo yubakishijwe amatafari ahiye ndetse asizwe n'amarangi y'umweru, inzugi zifite amarangi y'umukara.

Ishuri ryigwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, hafi yaryo hari ikibuga gikinirwamo imikino y'amaboko. Ikindi kandi amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse asizwe amarangi y'umweru. Ari ahantu hari ikirere cyiza, ndetse bigaragara ko nta mvura igiye kugwa.

Ishuri ririmo umunyeshuri ufite agakarito karimo igwa zigizwe n'amabara atandukanye, ndetse harimo ingwa zagiye zandikishwa, kuko hagaragaramo ingwa imwe itarigeze yandikishwa. Izi ngwa zifite amabara y'umuhondo, ubururu, n'umutuku. Imbere yaho hari ameza akozwe mu mbaho, hariho ibitabo bikoreshwamo.

Inzu isakajwe amabati ndetse n'inzugi z'ubururu, hafi yayo hahinze urutoki. Ikindi kandi hari imigezi bigaragara ko bahoze bari kuhavomera kuko amazi yamenetse hakaba hari icyondo cyinshi gikikije iyi nzu. Hirya y'iyi nzu hari andi mazu asizwe amarangi y'umuhondo, ndetse hari imirima ihinzwemo ibirayi.

Ishuri ryigirwamo ikoranabuhanga ririmo mudasobwa nini cyane zitagendanwa, ndetse zirimo ameza akozwe mu mbaho. Harimo umwarimu umwe, ndetse iri shuri rifite ibikuta bisizwe amarangi y'umweru n'amadirishya manini cyane.

Ishuri ririho abana biga amashuri abanza, ndetse n'ayisumbuye, risakajwe amabati y'ubururu, ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yaho hari idarapo riranga igihugu, ndetse hari ubusitani butoshye cyane.

Abana b'abanyeshuri bari mu masaha yo gufata amafunguro bambaye impuzankano zisa zirimo imipira y'umutuku n'amashati y'ubururu. Kandi bicaye ku meza asa n'ubururu ndetse hafi yabo hari abarimu babo bari kwitegereza, uko bari kurya. Bari mu nzu yubakishije amatafari ahiye.

Ishuri ry'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa Kaminuza yubakishijwe amatafari ahiye risakajwe amabati ndetse rifite amadirishya manini cyane. Hanze yaryo hari ubusitani buhinzwemo ibiti bikiri bitoya cyane bigaragara ko bihinzwe vuba.

Icyapa kimanitse ku rukuta rwubakishijwe amatafari y'umutuku iki cyapa kigaragaza amahame y'intore ndetse n'indangagaciro na kirazira ikindi kandi hari indabyo ndetse hari n'ibyatsi bigiye bitandukanye n'urukuta kandi rufite amabara y'umuhondo.

Ishuri ryigwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza cyangwa se ayisumbuye, ryubakishijwe amatafari ahiye ndetse risakajwe amabati y'ubururu, imbere yaho hari idarapo ry'igihugu ndetse hari ubusitani bwiza cyane bufite, uturabyo twiza cyane n'igiti kirekire cyane.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari mu cyumba bigiramo ikoranabuhanga, bafite mudasobwa ndetse zigendanwa n'izitagendanwa. Bicaye ku meza akozwe mu mbaho ndetse n'intebe zikozwe mu mbaho. Bari kwitegereza imbere bigaragara ko umwarimu ubigisha ikoranabuhanga hari icyo ari kubigisha.

Ishuri ririmo urubaho rwanditsemo, ndetse harimo ameza, iri shuri ririmo sima kandi riteyemo irangi ry'umuhondo.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, hasi bambaye ubururu, imipira y'imbeho, irimo amabara y'ubururu n'umweru bivanze, bicaye hanze y'ishuri mu kibuga, bari mu nama.

Abana barimo abasore n'inkumi bambaye imyenda ifite ibara, bigaragara ko ari imyenda y'ishuri, biga imyuga. Bari kubaka uruzitiro bakoresheje amatafari ahiye. Ikindi kandi, bambaye imyenda y'ubururu, ndetse bambaye ibintu birinda kuba bakomereka mu mutwe. Hafi y'aho bari, hari ibiti birebire.

Abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bambaye impuzankano isa y'amashati y'umweru, biga mu mashuri yisumbuye, bari mu ishuri, bari kwandika mu makayi bakoresheje amakaramu bicaye ku ntebe zikozwe mu mbahoho. Imbere yabo hari urubaho rw'umukara, ndetse ibikuta by'amashuri birimo risizwe irangi ry'umuhondo ndetse rifite inzugize z'ubururu.

Aba ni abanyeshuri bigaragara ko bari mu matsinda atandukanye, bagiye gukina umukino w'amaboko. Hari umutoza wabo ndetse bambaye impuzankano zitandukanye bitewe n'itsinda buri muntu arimo. Inyuma yabo hari abaje kwitegereza uko bakina ndetse bari hafi y'amazu asakajwe amabati y'umutuku ndetse akikijwe n'ibiti bifite uturabyo tw'umuhondo.

Ishuri ry'amashuri yisumbuye ku marembo yaryo hari ushinzwe umutekano, wambaye impuzankano imuranga, afite kandi inkoni mu kwaha, hafi yaho hari ubusitani burimo indabyo zitandukanye ndetse n'ubwatsi butoshye, iyi nyubako yubakishijwe amatafari ahiye ndetse hafi yaho ukinjira hari urukarabiro.

Ishuri ririmo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano zisa z'amashati y'umweru, amajipo y'umukara ndetse n'imipira y'ubururu, imbere yabo hari umwarimu wambaye ishati y'igitenge ndetse n'ipantaro y'umukara, ndetse bicaye ku meza yakozwe mu mbaho, imbere yabo hari ikibaho cy'umukara ndetse iri shuri ryabo rifite amadirishya manini cyane.

Amarembo y'ishuri ryigisha amasomo atandukanye ku banyeshuri bari mu mashuri yisumbuye. Hari icyapa cy'icyatsi kiriho indangagaciro na kirazira biranga abanyeshuri biga hano. Amazu yabo ndetse n'amashuri yabo yubakishijwe amatafari ahiye ndetse asakajwe amabati y'ubururu. Ikindi kandi ikigo cyabo kirimo ubusitani.

Isomero ririmo ibitabo bitandukanye, ibyerekeye ibidukikije, ubuvuzi ndetse n'andi masomo agiye atandukanye, bigaragara ko ari isomero ry'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, ayisumbuye, cyangwa se kaminuza n'amashuri makuru. Iyi nyubako kandi irimo amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, ibi bitabo ni byinshi cyane.

Ishuri ripanzwemo intebe nyinshi cyane zikozwe mu mbaho aho zimwe ziri hejuru y'izindi. Izi ntebe zirimo ibyumba bibiri abanyeshuri bagenda babikamo amakaye yabo n'amakaramu yabo, iyo bari kwiga.

Abana biga mu mashuri abanza bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho inyuma yabo hari kandagira ukarabe, iri shuri ryabo rifite amadirishya asize amarangi y'ubururu ndetse manini cyane hari akabati karimo ibikayi bishaje, abana ubona ko bakurikiye umwarimu wabo uri kubigisha.

Icyumba cy'ishuri kigwamo n'abanyeshuri bari mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, gitewe amarangi y'umuhondo, gisakajwe amabati. Harimo intebe zicarwaho n'abana babiri babiri ndetse imbere yaho hari urubaho rw'icyatsi. Rufite amadirishya ndetse hari n'utwenge ducamo.

Amashuri yigirwamo n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye, asakajwe amabati y'ubururu ndetse afite inzugi z'umukara, yubakishijwe amatafari ahiye. Kandi hari ikibuga kinini cyane, ndetse gifite ubusitani burimo ubwatsi butari bwinshi cyane. Inyuma aho kandi hari ibiti birebire bisumba amashuri.

Igitabo cy'imibare gikoreshwa n'abana bo muri secondaire, kiriho umugabo wambaye ishati y'ubururu, ndetse n'abantu babiri imbere ye, ikindi kandi kiriho library ndetse amabara y'umukara, umutuku ndetse n'icyatsi.

Icyumba cy'ishuri kirimo umwarimu ufite umusatsi w'umukara cyane aho ari kwandika ku kibaho. Ari kumwe n'abanyeshuri yigisha biga mumashuri abanza ndetse hafi ye hari ikarito irimo ingwa. Igikuta k'iri shuri gisize irangi ry'umuhondo.

Abana bavuye kwiga bari kugendera mu kayira k'abagenzi mu muhanda harimo umunyonzi utwaye igare, hafi yaho hari izindi nyubako zubabakishijwe amatafarihi ye ndetse zisakajwe amabati, hari kandi ubusitani burimo ibiti byiza bifite indabo z'umuhondo.

Amarembo y'ikigo by'ishuri kigisha imyuga, iri shuri ry'bakishijwe amatafari ahiye ndetse asakajwe amabati, kuri aya marembo hariho indangagaciro na kirazira ziranga umunyeshuri wiga muri iki kigo ndetse hahinzwe indabyo nziza cyane.

Abana ni abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, bicaye hanze y'ishuri mu busitani butoshye, hari mugenzi wabo uri hagati yabo ufite ibyo ari kubabwira. Amashuri yabo yubakishijwe amategura ahiye, ndetse asakajwe amabati, ikindi kandi hari ibiti birebire cyane.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, amajipo cyangwa se amapantaro y'ubururu, hafi yabo bagiye bafite amakaye n'amakaramu, bigaragare ko bari kwandika ibyo bari kubwirwa n'abayobozi bicaye imbere yabo. Aho abayobozi bicaye hatatswe amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Ishuri ry'abana biga mu mashuri abanza, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, imbere yabo hari ibitabo, ndetse n'umwarimu wabo w'umukobwa uri kubigisha ari kwandika ku rubara rw'umukara. Iri shuri kandi inkuta zarwo ritewe irangi ry'umuhondo ndetse rifite n'amadirishya manini.

Umunyeshuri w'umwana w'umukobwa, wambaye ishati y'umweru n'ijipo y'umukara. Ari imbere y'ishuri, ari gukosora ikibazo mwarimu yamuhaye. Ari kwandikisha ingwa, ndetse, afite agapapuro mu kiganza. Bigaragara ko ibyo ari kwandika, ari kubisoma ku rupapuro afite.

Amazu atari maremare cyane akikiwe n'ibiti ndetse n'indabo zifite uruyange rw'umutuku. Imbere y'izi nzu hari ubusitani bwiza, ndetse zikikijwe n'amapoto y'amashanyarazi ndetse n'ibindi bintu bihinzwemo uturabo twiza cyane .Iyi nzu

Abanyeshuri bicaye mu nzu mbera byombi, bambaye impuzano ziza zirimo amashati y'umweru ndetse bambaye n'ibibaranga mu ijosi. Bari kubwirwa n'umuntu mukuru w'umusore, wambaye umupira w'umweru, bamuteze amatwi, bafite amatsiko yo kumva ibyo ababwira.

Abanyeshuri bambaye umwenda w'ishuri urimo amabara y'umweru ndetse n'ubururu, bari hanze bari kureba umukino uri kuba w'amaboko, bari hafi y'amazu yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ariko ikirere kiza kirimo amabara y'umweru n'ubururu.

Abana b'abanyeshuri bari mi kigero cy'imyaka ine, bambaye impuzankano zisa umweru, ndetse n'amasogisi y'umweru, n'inkweto z'umukara, bose bafite ibitabo by'ubururu, kandi bigaraga ko bagize itsinda ryo kuririmba, bahagaze ahantu hasizwe amabara y'icyatsi, ndetse inyuma yaho hari udutebe tw'umweru.

Iri ni ishuri, harimo abanyeshuri bambaye impuzankano, amajipo y'icyatsi, imipira y'ubururu, hari abantu babahagaze imbere bishoboka ko ari abarimu babo, ndetse hari na mudasobwa iteretse ku meza.

Abanyeshuri biga ubukanishi bari mu ishuri, barasa n'abari kugerageza igikoresho runaka, imbere yabo hari umuntu wambaye umwenda ugaragaza nkaho ari umwarimu wabo, abanyeshuri kandi bambaye impuzankano zisa.

Imodoka y'amabara y'umweru ihagaze ahantu hafi y'inzu, yubakishijwe amategura ndetse n'amatafari ahiye, hafi yaho hari ibiti bya avoka ndetse n'ibindi biti bisanzwe, bifasha guhumeka umwuka mwiza.

Ishuri rimeze nk'irimaze igihe rifite igikuta gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse n'urubaho rw'umukara, harimo intebe zibajijwe mu mbaho, iri shuri bigaragare ko ryigirwamo n'abana biga mu mashuri abanza cyangwa se ayisumbuye.

Abanyeshuri batatu bagiye cyangwa se bavuye ku ishuri. Ni umunsi mwiza ni amasaha meza, hari akazuba. Ndetse hari, imbere yabo hari umugenzi uri kugenda, wambaye imyenda irimo amabara y'umutuku.

Icyumba cy'ishuri cy'abana biga mu mashuri yisumbuye. Imbere hari umusore wambaye ishati y'umweru, ndetse hari ku rubaho ari kwereka bagenzi be ibyanditse. Harimo intebe z'imbaho ndetse inkuta zazo zisizwe amarangi y'umuhondo.

Ishuri ry'abana biga mu mumashuri yisumbuye, bambaye impuzankano zisa z'amashati y'umweru, n'amapanantaro, bari ku marembo y'iri shuri, inyuma yaho hari ikirango cy'igihugu, iri shuri ryitwa Birambo, ndetse igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu, bari mu cyumba cyigirwamo isomo ry'Ubutabire. Bambaye imyenda y'umweru hejuru yabugenewe, ikoreshwa muri iki cyumba kigwamo Ubutabire. Bari kumwe n'umwarimu wabo ubari imbere ndetse hari ibikoresho bakenera bari kwiga iri somo.

Amashuri yubakishijwe amatafari ahiye, asakajwe amabati ateye iranga ry'icyatsi, inzugi z'icyatsi ndetse n'amadirishya y'icyatsi, hafi yaho hari ishyamba rinini cyane ndetse iri shuri biragaragarako ari ishuri ry'abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye.

Ishuri ry'abanyeshuri biga mu mujyi muri rusange ,yisumbuye iri shuri rifite uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye kandi ayo amashuri asakajwe amabati. Hari kandi igiti kirekire cyane, ndetse hari n'insinga zikikije iri shuri.

Abana biga imyuga mu mashuri yisumbuye ku kigo cyigisha imyuga cy'i Huye, bambaye impuzankano zisa n'umweru ndetse n'ubururu, bafite icyapa kirimo ikirango cy'ishuri ryabo, ndetse bari kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri n' numunani yo kwibohora.

Ishuri ryigirwamo n'abana biga mu mashuri yisumbuye, arimo intebe zikozwe mu mbaho, abana batanu bari imbere ku rubaho rw'umukara. Iyi nzu yubakishijwe amatafa ahiye, ndetse asizwe amarangi y'umweru, hari abandi bana babiri bicaye bari kwitegereza ibyo bagenzi babo bari kwandika ku rubaho.

Ishuri rya kiliziya gatolika ririho icyapa cyanditsweho ngo karibu ku ishuri ryacu. Hari ubusitani bwiza burimo uturabyo twiza ndetse hari amashuri y'abanyeshuri bigiramo ndetse n'amacumbi y'abanyeshuri. Hari kandi ikibuga gikinirwamo umukino w'amaguru ndetse n'umukino w'amaboko.

Abari bambaye impuzankano zisa bigaragara ko biga bo mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza, bari ku mashuri yabo bari mu masaha y'akaruhuko ndetse bari kumwe n'abarimu babo, abana bambaye impuzankano zisa zirimo amashati y'ubururu, hafi yaho hari ubwiherero ndetse n'urutoki, hirya yaho cyane hari agasozi karekare cyane karimo ibiti.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zisa zirimo amashati y'umweru n'imipira y'icyatsi bari mu bizamini, aba bana barimo abakobwa n'abahungu ndetse bigaragara ko biga mu mashuri yisumbuye, kandi bari mu kigeroro cy'imyaka imwe, imbere yabo hari umwarimu uri kureba uko bakora, bari mu ishuri ry'amadirishya y'icyatsi ndetse n'inzugi z'icyatsi.

Inyubako ishaje bigaragara ko iri kuvugururwa aho bari gusigamo amarangi y'umweru ndetse n'ay'umukara, hari utubati dukozwe mu mbaho ndetse n'ameza, ibikuta byaho bisizwe amarangi y'umuhondo.

Inyubako ikiri kubakwa cyangwa se iri kuvugururwa, amarange amaze gusigwamo bigaragara ko asizwemo vuba ndetse hari n'ibirahuri bigaragara ko aribwo bari kubishyira mu madirishya, hari urugi rw'umuhondo ndetse hari n'ameza.

Abanyeshuri biga imyuga mu mashuri makuru, bambaye impuzankano z'ubururu zibaranga, bambaye ibintu bibarinda amaso, ndetse n'ingofero z'ubururu zibarinda gukomereka. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Inyubako ziberamo ibikorwa bitandukanye bigenda bikorwa n'abanyeshuri, hari urukarabiro ndetse hari n'ishyamba rinini cyane, ni amanywa izuba riri kuva ikirere kirasa neza, hari kandi indi nyubako ifite amabati y'umutuku ndetse n'inzugi z'umukara.

Abantu biganjemo abasore n'inkumi bicaye mu cyumba gito nakwita inzu mberabyombi ntoya bafite inama barimo, imbere yabo hari umugore w'umuzungu ufite ibyo ari kubigisha. Inzu barimo igiye irimo amabara y'ubururu n'icyatsi, ndetse imbere hari ibibaho by'icyatsi.

Umusore ari kugenda, hirya yaho ari kugenda hari abantu babiri bicaye ku ntebe n'ameza akozwe mu mbaho. Hari kandi inyubako ifite amabati y'umutuku atewe irangi ry'umweru. Hari kandi ibiti ndetse n'inzu itewe irangi ry'umuhondo, ndetse n'uturabyo twiza cyane tw'umutuku n'umuhondo.

Icyumba cy'abanyeshuri biga muri Kaminuza kirimo ibitanda bibiri bikozwe mu byuma ndetse n'uburiri bushashe neza. Imbere hari agatebe gakozwe mu mbaho ndetse hari n'akabati gakozwe mu mbaho, hejuru yaho hamanitse ibikapu bibikwamo imyenda y'abanyeshuri.

Ikibuga gikinirwamo imikino itandukanye, harimo imikino y'amaboko, cyane cyane. Ikibuga gikikijwe n'ibiti, ndetse inyuma y'ibi biti hubatswe amazu atewe irangi ry'umuhondo, ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, hari kandi ubusitani bwiza cyane busa neza.

Icyumba cy'ishuri kigirwamo isomo ry'ubutabire, harimo intebe zikozwemo mu mbaho ndetse hari n'ibindi bintu bakoresha bari kwiga iri somo, iki cyumba kigirwamo n'abanyeshuri biga ibintu byerekeye ubutabire, gifite amadirishya manini ndetse bigaragara ko harimo amatara.

Uburiri busashwe neza cyane buriho uburingiti bw'icyatsi, hafi yaho hari ameza ndetse n'intebe yo mu mbaho, ndetse hari telefone icometse ku mashanyarazi, hari kandi ibitabo bishoboke ko iki ari iki cy'umunyeshuri, hanze yaho hari ibiti by'avoka ndetse n'ibindi biti bisanzwe.

Ubusitani bwiza cyane butoshye, ubu busitani bukikijwe n'ibiti ndetse hari n'ikirango kigaragaza ko ubusitani buri hafi y'inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda. Ubu busitani kandi burimo ikigega cy'amazi ndetse hafi yaho hari urukarabiro.

Icyumba cy'abanyeshuri, kirimo ibitanda bigiye bifite igitanda cyo hasi ndetse n'icyo hejuru, ikindi kandi harimo urukarabiro, harimo kandi inkweto zo kogeramo z'abantu bararamo.

Inyubako bigaragara ko ari isomero irimo ibitabo bigiye bitandukanye ndetse harimo na mudasobwa, harimo intebe zikozwe mu mbaho kandi harimo abantu bari kwiga bigaragara ko biga mu mashuri makuru.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo utumurango tw'amabara y'umutuku, ndetse n'umweru, hafi yaho hari ubusitani bwa kiliziya gatolika. Hiya yaho kandi, hari ikirango cya bikira Mariya. Ndetse hari n'amacumbi y'abanyeshuri.

Icyumba kigize amwe mu macumbi y'abanyeshuri, bo muri kaminuza bigamo. Harimo inkweto abanyeshuri bogeramo, intebe, mudasobwa, ibase y'ubururu, iy'umutuku, ndetse n'indobo y'icyatsi. Ikindi kandi hariho urukarabiro, ndetse iyi nzu ifite sima isa n'umutuku.

Ahantu hanini cyane hari ibikorwa bitandukanye, harimo inzu, ibiti ndetse n'ubusitani bwiza cyane. Aha hantu bigaragara ko ari kaminuza runaka. Hari imodoka y'umukara iparitsemo ndetse ushinzwe umutekano agiye kureba ko yujuje ibyangombwa ngo itambuke.

Inyubako nziza yubatswe n'amatafari ahiye ndetse ishyizweho amarangi y'umuhondo, hari urwanikiro ruyakikije ndetse n'ubusitani bwiza cyane burimo indabyo, ndetse n'ubwatsi butoshye ,hari kandi icyapa kimanitse ku gipangu k'iyi nyubako, kigaragaza ibikorwa bikorwa n'itsinda ryitwa iby'iwacu.

Inzu igeretse rimwe ibamo abanyeshuri biga muri kaminuza isakajwe amabati y'umutuku, hafi yayo hari ubusitani burimo uturabyo twiza tw'umutuku ndetse n'ikigega kijyamo amazi y'imvura, ubusitani kandi babwanikagamo imyenda itandukanye harimo amapantaro.

Icyumba gito gifite ibikuta, gisizwe amarangi y'umuhondo, ndetse kiriho icyapa kiriho uko ibyumba bigiye bifite ibikorwa bikorerwa muri iyi nyubako. Harimo ameza akozwe mu mbaho ndetse n'utubati dukozwe mu mbaho. Ikindi kandi harimo intebe y'umukara.

Inyubako nziza cyane irenze imwe. Ni inzu z'amagorofa zikaba zigeretse. Hari ubusitani bwiza cyane butoshye burimo ibiti ndetse n'ikibuga.

Inzu isizwe isizwe marange y'umuhondo isakajwe amabati ndetse afite inzugi z'umukara, hafi yaho hari ibiti byinshi kandi bigiye bitandukanye, ikikijwe kandi n'ubusitani bwiza cyane n'ubwatsi butoshye ndetse ruguru hari andi mazu nayo asakajwe amabati.

Inzu ntoya navuga ko ari inzu mberabyombi irimo intebe zikozwe mu mbaho, bigaragara ko abanyeshuri bakoreramo ibizamini, cyangwa se bakigiramo, cyangwa se bagakoreramo inama zitandukanye, iyi nzu isizwe amarangi y'umweru ku bikuta ndetse ifite amadirishya manini cyane.

Isomero risa neza cyane kandi risukuye ritewemo amarangi y'umuhondo, ndetse harimo intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza, harimo ibitabo byinshi cyane bikoreshwa n'abanyeshuri iyo babikeneye, kandi iyi nzu itewe amarangi y'umweru, ndetse harimo amatara.

Inyubako nziza cyane zisakajejwe amabati y'umutuku ndetse n'ubururu, kandi zisizwe amarangi y'umuhondo, zifite inzugi z'umukara, zikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, ndetse hari n'icyapa kigaragaza aho amacumbi y'abanyeshuri ari, ikindi kandi hari uburiro bw'abanyeshuri, ndetse n'ibindi byatsi byiza cyane.

Abasore n'inkumi bigaragara ko bari mu kigero k'imyaka imwe, baricaye mu nyubako runaka, bateze amatwi bose bahanze amaso umuntu runaka uhagaze imbere uri uku ijambo, ryerekeye ingingo runaka, inyubako barimo isizwe amarangi y'umweru ndetse ni iy'amagorofa bivuze ko igeretse.

Amashuri yigirwamo n'abanyeshuri biga isomo runaka, hafi y'aho hari urukarabiro bakarabiramo intoki, hari kandi inzu ibamo abashinzwe umutekano w'aha hantu. Aha hantu hegereye umuhanda ndetse hari n'amarembo, hateye ibiti harimo n'iby'imbuto by'amapera.

Inyubako nziza cyane ifite ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye ndetse hakaba hari n'igiti kinini cy'amapera. Hari amashuri yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isizwe amarangi y'umweru, ifite amabati atukura, hanze yaho hari urujya n'uruza rw'abanyeshuri ndetse hari ibibuga bikinirwamo imikino igiye itandukanye.

Inyubako za kaminuza, zikikijwe n'ubusitani burimo uturabyo twiza kandi dutoshye, tw'amabara y'umuhondo ndetse n'umutuku. Hari kandi ibiti birebire cyane harimo: iby'imbuto, imyembe na avoka. Hari n'indi nzu isakajwe amabati y'icyatsi, ndetse n'indi isakajwe amabati y'umutuku. Izi nzu kandi zitewe irangi ry'umweru.

Iyi ni inyubako ya Kaminuza abanyeshuri bigiramo. Hari inzugi z'ubururu ndetse ibikuta bisizwe amarangi y'umweru. Iyi nzu kandi yubakishijwe amatafari ahiye atukura. Hari intebe z'icyatsi zikozwe mu byuma. Hari kandi igikoresho gikoreshwa mu kuzimya umuriro ndetse hari n'inzugi zindi z'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uri hafi ya Kiliziya Gatolika ifite ubusitani bwiza cyane burimo uturabyo tw'umutuku, umweru, ndetse n'umuhondo, hirya y'aho hari ibiti birebire cyane kandi binini ndetse hari n'ishusho ya Bikira Mariya.

Ishuri rifite intebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ibyuma ririmo umunyeshuri umwe, imbere yaho hari urubaho rw'icyatsi ndetse inkuta zaho zisize amarangi y'umuhodo, hari kandi igikuta cyubakishije amatafari ahiye ndetse urugi rwaho rurakora.

Ishuri rya kaminuza ryigwamo n'abanyeshuri biga ibintu bitandukanye, risakajwe amabati y'umutuku ndetse rikikijwe n'ibiti birebire cyane, inyuma yaho hari ubusitani burimo ubwatsi budatoshye cyane ariko kandi butameze nabi.

Icyumba cy'abanyeshuri bo muri kaminuza, harimo uburiri bushashwe neza cyane, ndetse imbere y'ubu buriri harimo akabati karimo inkweto, hejuru yaho hari ibikoresho birimo amazi yo kunywa. Hari kandi akabati babikamo imyenda yabo, ndetse hejuru yabo hari ibikapu babikamo imyenda yabo.

Inzu isakajwe amabati ndetse isizwe irange ry'umuhondo ifite inzugi z'umukara imbere yayo hari ameza, hari icyapa kigaragaza ko haberamo ibikorwa byo gufotora impapuro ndetse n'amafoto matonya, kandi hari inzu zikikijwe iyi nyubako zisakajwe amabati y'umutuku, ndetse zikikijwe n'ishyamba rinini cyane.

Isomero riri ahantu runaka, ririmo ibitabo bitandukanye. Birimo iby'inkuru ndetse n'iby'amasomo y'imibare, ubutabire ndetse n'ubunyabugenge. Hafi y'aho hamanitse uburyo ibitabo baza kubisoma, ndetse ibi bitabo birimo ibintu bitandukanye. Iyi nyubako kandi irimo amabara y'umuhondo ndetse isakaje amabati.

Ikigo cy'ishuri cy'amashuri makuru cyigisha imyuga cya Tumba, hari abanyeshuri batandukanye barimo abasore n'inkumi ndetse n'abayobozi n'abarimu bagiye batandukanye, amashuri yabo yubakishijwe amatafari ahiye ndetse asakajwe amabati akikijwe n'ibiti birebire cyane, kandi aya mazu aragetse afite inzugi z'umukara ndetse hari ikigega cy'umukara cy'amazi.

abantu bari mukigero cy'imyaka imwe bari mu nyubako ifite amarangi y'mweru, imbere yabo hari abantu batanu bari kuyaganiriza ku ngingo runaka abantu bateze amatwi kandi baratuje.

Inyubako y'icyumba gito ifite ibikuta bisizwe irangi ry'umuhondo ndetse ibikuta bimanitsweho icyapa kiriho ikirango cy'ishuri rikuru ryigisha imyuga ry'i Huye, kiriho porogaramu iri shuri ryigisha zigiye zitandukanye.

Icyumba gito kirimo intebe ebyiri ndetse n'amezi atatu, ameza ateretsweho impapuro, iki cyumba kimeze nk'ikimaze igihe kidakorerwamo.

Imyenda yiganjemo ibitenge, imipira, amapantaro ndetse n'imyenda yo kogeramo yanitse mu rwanikiro, hafi yaho hari amacumbi abanyeshuri bararamo, ndetse hirya y'ayo macumbi hari amashuri abanyeshuri bigiramo.

Ubusitani buhinzwemo ibiti byiza cyane ndetse hari icyapa kigaragaza ko aha hari inyubako ya kaminuza y'u Rwanda yigirwamo ibintu bijyanye n'ibidukikije, hari kandi indi nyubako ifite inzugi z'umukara n'amabati y'umukara.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda iri hafi y'ibiti binini cyane kandi birebire, iyi nyubako isakajwe amabati y'umutuku ndetse isizwe irangi ry'umweru. Kandi hari ubwatsi butoshye cyane, bigaragara ko hatajya ahagera izuba kuko bitumye.

Ubusitani butoshye cyane, ubu busitani burimo icyapa kigaragaza ko, aha hari inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda i Huye. Hari kandi umuntu uri kurya wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'ubururu, hari ibiti kandi bikikije iyi nyubako y'amashuri ya kaminuza.

Abantu barimo abasore n'inkumi bari mu nzu mberabyombi, irimo intebe z'umutuku. Ku rubyiniro hari abantu bafite ibyo bari kubereka, kandi bigaragara ko bari kubireba bishimiye kuko bahagaze. Iyi nzu kandi itewe amarangi y'umweru ndetse yubakishijwe amatafari ahiye.

Amashuri meza cyane ageretse gatatu yigirwamo n'abanyeshuri bo muri kaminuza akikijwe n'ubusitani butoshye cyane ndetse n'ibiti byayo, aya mazu asizwe amarangi y'umweru ndetse na ay'umuhondo kandi asakajwe ikindi kandi aya mazu afite ibiti biyakikije.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa mu kwigisha isomo ry'ubugenge, harimo utubati tugiye turimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse imbere yaho hari mudasobwa, ikindi kandi hari amakarito arimo ibikoresho bakoresha iyo bari kwiga iri somo.

Ishuri ririmo urubaho ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu kwigisha n'abarimu cyane cyane biganjemo abo muri kaminuza, hafi yaho hari urukarabiro.

Ishuri rinini cyane ririmo intebe z'umukara ndetse n'izindi ntebe zikozwe mu mbaho, iri shuri ririmo amatara menshi ndetse rifite inzugi nini cyane, ryigirwamo n'abanyeshuri bo mu mashuri makuru cyangwa se kaminuza; ikindi kandi rifite inzugi z'umukara ndetse ibikuta byazo bisizwe irangi ry'umweru.

Abantu biganjemo abasore n'inkumi, bari kwinjira ahantu habereye ibintu runaka, hafi y'ahantu bari kwinjira, hari ibiti bitandukanye birimo inturusu, ndetse n'ubwatsi butoshye cyane, hari inzu zisakajwe amategura ndetse n'amabati, zifite amadirishya, n'inzugi.

Abakobwa babiri, abakobwa bicaye ku buriri bwabo bafite za mudasobwa, bigaragara ko bari kuko bafite n'amakaye n'amakaramu, bigaragara ko bishimye ndetse hafi yaho hari utubati turimo ibikoresho byabo nk'amavuta, amapuderi ndetse n'ibikombe, ikindi kandi hanze hari ubwatsi ndetse hari n'ubwanikiro buhari bahanikamo imyenda.

Inyubako y'ishuri ya Kaminuza y'u Rwanda, hafi yaho hari ubusitani bwiza cyane butoshye ndetse n'imigano, ikindi kandi hari inyubako isakajwe amabati ndetse isizwe irangi ry'umweru.

Icyumba cy'abanyeshuri biga muri kaminuza, hari igitanda cyo hasi ndetse n'icyo hejuri, hari ameza yakozwe mu mbaho ndetse n'amadirishya, hasi hari akantu k'ubururu bashyiramo udukoresho twabo tugiye dutandukanye.

Iri ni ishuri rifite ibikuta bisizwe amarangi y'umuhondo ndetse rifite urugi rusizwe irangi rijya gutukura ndetse rufite amabara y'umukara, hafi y'aho hari igikoresho gikoreshwa mu kuzimya, igihe habayeho inkongi y'umuriro.

Inzu nziza cyane, zifite amarage y'umukara n'umuhondo, zisakajwe amabati y'umutuku, ndetse hagati yazo hagiye hateye ibiti byiza cyane bitoshye. Hari kandi ubusitani burimo igiti cyiza cyane. Hafi yaho hari ishyamba rinini cyane.

Inzu zubatse ahantu heza cyane hafite n'ubusitani, ndetse zifite irangi ry'umuhondo n'amabati y'umutuku. Ubu busitani burimo utwatsi tw'umutuku ndetse n'ibiti binini cyane. Ikindi kandi hari ibibuga bigiye bitandukanye, bikinirwamo imikino itandukanye.

Amacumbi y'abanyeshuri biga muri kaminuza ageretse rimwe, hafi y'aho hari urwanikiro banikamo imyenda yabo, ndetse hari ikigega gitega amazi y'imvura kandi hari ubusitani burimo indabyo zitandukanye; hirya y'aho kandi hari izindi nyubako ndende cyane ndetse hakikijwe n'ishyamba rinini.

Icyumba kigirwamo isomo ry'ubutabire, gisa neza cyane gisizwe amarangi y'umweru ndetse n'umukara. Iki cyumba kirimo amatara ndetse kirimo urubaho rw'umukara, harimo imigezi bakarabiraho ndetse bogerezaho ibikoresho bakoresha iyo barangije kwiga.

Uburiri buto bwakwirwaho umuntu umwe, busashe neza, hafi y'ubu buriri hari ameza ndetse hari n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, terefone, mudasobwa, hari kandi umupira w'icyatsi uteretse ku ntebe yegereye ubu buriri, hari n'idirishya rigaragara ko ricishamo urumuri ndetse n'akazuba.

Abagabo batandatu bambaye imipira y'imweru n'amapantaro y'umukara bari mu cyumba bigaragarare ko bahakosorera ibizamini bahaye abanyeshuri, bicaye ku ntebe z'umutuku ndetse no ku meza akozwe mu mbaho, bafite kandi za mudasobwa harimo umugabo wambaye akagofero gatoya.

Abasore n'inkumi bari mu kigero cy'imyaka yegeranye, bari ku rubyiniro mu nyubako runaka, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'umukara, bigaragara ko hari icyo bari kwereka bagenzi babo bari kubareba, imbere yabo hari ibyuma bisohora amajwi y'umuziki.

Icumbi ry'abanyeshuri ribamo abana b'abakobwa cyangwa se ab'abahungu. Hari uburiri bushashe buriho imisego ibiri ndetse imbere yayo hari ameza akozwe mu mbaho ndetse n'intebe. Aya meza ateretseho mudasobwa ndetse n'indorerwamo z'umunyeshuri, tutibagiwe na terefone ndetse n'amakaramu.

Icyumba cy'ishuri kigirwarwamowo n'abanyeshuri bo muri kaminuza, kirimo intebe zikozwe mumbaho ndetse n'ibyuma harimo ibitambaro by'umweru ndetse n'ubururu birinda izuba ryinjiramo iyo riri kuva, iri shuri kandi ritewe amarangi y'umweru ndetse rifite purafo itewe irangi ry'umuhondo.

Abantu barimo abasore n'inkumi bari gukoresha mudasobwa, bafite amakaramu n'amakayi bigaragare ko bari kwandika ibyo bari gusoma muri za mudasobwa, ikindi kandi bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu, ndetse n'umutuku, bigaragare ko iyi ari inyubako ibamo mudasobwa, abanyeshuri bakoresha iyo bakeneye murandasi.